Itsinda ry'abantushinzwe gutanga amaraso mu butabazi, batabara abantu b'indembe bakabitaho, bakabahereza ubufasha, gutanga amaraso ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kwa muganga bagenda bafasha abaturage.

Ibitanda byo kwa muganga biryamaho abarwayi b'indembe, mu byumba hararamo abantu barembye cyane. Ni ibitanda rero bishashe neza, bifite amadirishya, icyumba kirimo ibitanda bibiri bishashe.

Ivuriro ryo mu ndembe ahantu bashyira indembe, ahantu bashyira abantu barembye, imiti bari bubahereze, abantu bari bibiteho, ibikoresho byose bifashisha mu gihe bagiye kuvura indembe.

Ahantu bakirira indembe n'aho bazisuzumira ku bitaro bikuru ni ho bazijyana bagahita bazakira bakazitaho.

Abaganga bavura indembe baje, bavura indwara zikomeye, guhura n'abaturage, umuturage ari kumwe n'umuganga we, arimo aramubwira ikibazo afite kugira ngo abashe kugikemura, hari imodoka n'umuntu urembye cyane washoboye kwinjiramo, bakinjiramo bakamufasha kugira ngo bamenye neza ikibazo afite, by'umwihariko abantu barwaye inde barwaye indwara zidakira.

Abo mu gihugu cy'igihugu gishinzwe ubutabazi no gutanga amaraso, baje gutwara umuntu ku cyuma cyabibugenewe bamukuye ahantu mu cyayi, yahuye n'ibibazo, baje kumutwara mu buryo bwo kumutabara, ni abagabo bane bakora muri icyo kigo, batwaye umuntu.

Imodoka y'imbangukiragutabara ishinzwe gutwara indembe izivana mu bitaro bimwe izijyana ahandi bagiye kuzivurira, iba irimo abaganga bakagaragaza nimero, imodoka ikagaragaza uko yitwa ndetse ikaba itwara abantu b'indembe.

Ubuvuzi bwihutirwa, ni umuntu yavunitse, muganga ari kumwitaho, iruhande rwe hari imbago, ari kumushyiraho ibikoresho byabugenewe ku kaguru, bigaragara ko yavunitse ari kumwitaho, muganga wambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa.

Aho bavurira indembe, ahantu haba hari igitanda, igitanda gishobora gutwarwa, hari ibikoresho byose biboneka mu cyumba cy'indembe, ahantu bajyana umuntu w'ingendo ku bitaro runaka, ibitaro byose bibonekamo icyumba cy'indembe.

Ibikoresho byo kwa muganga bashoboye gukoresha, mu ndembe ahantu hari abarwayi barwaye cyane barembye ndetse n'abantu babyifashisha, abantu babikoresha mu ndembe.

Imodoka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutabazi no gutanga amaraso, imbere yaho hahagaze abantu abazungu n'abakozi bo muri icyo gihugu barimo baganira ubona ko basoje hari abo bagiye gutwara mu modoka yabo.

Ibiganiro bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso, bakaganiriza abaturage, bakaganiriza urubyiruko, bahuriye hamwe muri sale cyane cyane urubyiruko rwo muri kaminuza baganiriza ibijyanye n'uburyo bashishikarizwa gutanga amaraso.

Abavuzi b'indembe ari kumuvura ni umuganga ari kwita ku ndembe, yambaye agapfukamunwa, yambaye ingofero, yambaye imyenda yabugenewe y'umuganga wita ku ndembe, ari kurebera muri mayikorosikopi, abasha kumenya ikibazo umurwayi we ameze afite.

Urugendo rw'abantu bari guturuka ku bitaro, bakora urugendo rwo kujya kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, abaturage, urubyiruko, abayobozi b'ibitaro ndetse n'abandi bose bari mu bitaro, bashinzwe ibintu by'ubuzima muri ibi bitaro, bari gukora urugendo bari mu muhanda bagenda mu nzira bajya kwibuka, ku nshuro ya mirongo itatu.

Ibitaro abantu bakora mu bitaro abantu bari bafite ambiranse imodoka y'imbangukiragutabara ikabafasha gutwara abarwayi igatwara abaganga kugira ngo ibafashe mu kwitwara neza ndetse no mu kuvura abarwayi.

Abakozi b'ibitaro ndetse n'abayobozi babo, bicaye imbere y'ibitaro ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, bari kuganirizwa, ibijyanye n'ubuzima bwiza bw'abo bafasha, mu bitaro byabo.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa bavura igitanda, aho bashoboye kuva kuvoma amazi ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha kwa muganga.

Abarwayi bari kwa muganga na muganga wabo, muganga ari kugenda afata amafishi yava kugira ngo abashe gusuzuma, hari n'icyapa kigaragaza ko ari ku isuzumiro rya muganga.

Abantu barimo bagenda mu muhanda, bagenda kwibuka bafite icyapa kigaragaza kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, ibitaro bya Gatunda, barimo bagenda, hari abapolisi babashyigikiye babari imbere, abandi bafashe icyapa, abantu inyuma, imodoka, barimo baragenda, babifatiye urugendo bagiye kwiboka.

Ubuvuzi bw'ibanze ku baturage kubitaho bakabakira bakabaha amafishi kugira ngo babashe kujya mu isuzumiro ndetse bakabasha no kumenya abarembye cyane kugira ngo babashe kugera mu isuzumiro hakiri kare.

Abaganga babiri bari ahantu muri laboratwari bari gusuzuma ibikoresho by'aho bakoresha bavura abantu babasuzuma bakoresheje inshinge ndetse n'ibindi bakoresha bari gusuzuma. Ni abaganga babiri b'abasore bari kubisuzuma, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byo muri laboratwari.

Ibikoresho bikoreshwa mu bitaro kwa muganga n'ubuvuzi muri rusange n'ababikoresha.

Ikirangantego kigaragaza ibitaro bakavuga indangagaciro, bakagaragaza ibiranga ibyo bitaro ahantu habura kugira ngo ugereyo, urugendo bakora ndetse n'ibiranga ibyo bitaro indangagaciro zabo ndetse n'ibyo baharanira kugira ngo bagereho.

Aho bakirira abarwayi bakabasuzumira umuvuduko w'amaraso, hari ibikoresho ndetse n'abaganga babiri, uwandika mu ikayi, akandika no mu bindi bikoresho ndetse n'ibimusuzuma akoresheje icyuma cyabugenewe.

Ku kigo nderabuzima ndetse no ku bitaro bikuru, abantu barimo baraganirizwa uburyo iki bakwita ku buzima bw'imyororokere urubyiruko rukabimenya, hari n'abayobozi bicaye aho ngaho bambayepfukamunwa, imbere yabo hari amazi ndetse afite n'amakaye bari kugenda bandikamo.

Umurwayi wagiye muri raboratwari kwivuza, bakamutera urushinge bagiye kumusuzuma, ari kumwe na muganga, muganga yambayera ibikoresho byose bisabwa kugira ngo amutere urushinge, amusuzume akoresheje urutoki.

Laboratwari haba harimo umuganga ufata amaraso akamenya kumenya icyo umuntu arwaye, akabyifashisha asuzuma indwara z'abantu akoresheje laboratwari ndetse n'ibikoresho byo muri laboratwari ndetse akoresheje n'ubumenyi ahabwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bari gukora ubushakashatsi ku bijyanye na gaze bateretse ibintu kuri gaze bari kubicanira bari mu kigo cy'ubushakashatsi mu cyumba cy'ubushakashatsi mu kigo cyabo bambaye udupfukamunwa tubafasha kubyirinda kugira ngo bitaza kubangiza.

Abanyeshuri bagiye batandukanye bari muri kigo cy'ubushakashatsi bari kugenda bareba bareba ibintu bakoraho, bakabikorera ubushakashatsi kugira ngo babashe kugira ubumenyi buhambaye.

Abarimu ndetse n'abanyeshuri babo bo muri kaminuza y'u Rwanda bari mu ishuri ry'ubushakashatsi bari gukora ibipimo ku bijyanye n'ibyo biga.

Ikigo cy'ubushakashatsi gikora ibijyanye n'imiti bakita ku barwayi bakamenya ibyo barwaye bakabafata ibizami kugira ngo babashe kumenya icyo barwaye cyane cyane mu buryo bw'amaraso ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha.

Ahantu hari abana bafite umuntu ubitaho akabaha igikoma, akabitaho, akabahereza igikoma bicaye ahantu bamwe bishimye bari mu ishuri, abana biga mu mashuri y'inshuke.

Aho babyarira abana n'ababyeyi baboho baba bari mu gihe bamaze kuvuka, bakiri impinja, babakirira abaganga bakabitaho bakabahasanga.

Umugore uryamye ku gitanda atereye umwana we w'uruhinja, igitanda cyo muri kwa muganga, bigaragara ko ariho yabyariye, ari aho babyarira, ari kumwe n'umwana we akimara kubyara.

Umugabo n'umugore, umugore aratwite yazanye n'umugabo we, barimo baramugira inama, barabagira inama, umujyanama w'ubuzima yicaye imbere ye, afite igishushanyo arimo aragenda ababwira, akabaganiriza, abagira inama.

Umuganga uri kwita ku ruhinyu rukivuka mu cyumba cy'abana bavutse, ari mu byuma byabugenewe bacometse, bari kwita kuri uwo mwana ukivuka.

Ivuriro ry'abana ndetse n'abantu bakuru baha abana babyarira aho abaganga babitaho aho haba hari ikigega bashoboye kubona amazi yo kubitaho kwita ku bana mu gihe baba babyaye bavutse.

Abantu benshi, abasore, abakobwa, abagore, bateraniye ahantu hamwe, bari kubafasha mu buryo bw'imitekerereze, bababafasha mu buryo bw'ubuzima bwabo bwo mu mutwe ndetse n'ubundi buzima, bicaye hamwe barimo kubafasha bakaganira.

Umukozi wo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ari kuganiriza abantu, afite indangururamajwi mbere ye, ari gutanga ibiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abanyeshuri bicaye ahantu mu kibuga, bari kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hari abayobozi, hari umubyeyi wunamye ari kwita ku banyeshuri, abanyeshuri na bo barabakurikiye, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima na cyo kirahari, bamanitse ibyapa bari kubitaho.

Aho bakirira abantu baje bafite ibibazo kwa muganga, cyane cyane ibibazo bijyanye no mu mutwe, abantu bafite ibibazo bijyanye no mu mutwe, ni ho babakirira, hakaba hari umuntu uri kugenda yakira abantu, ibibazo bijyanye n'ubuzima, abarwayi n'ubundi burwayi bugiye butandukanye.

Uburyo bwo gufasha abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe ni abakobwa ndetse n'umuhungu bari kumwe bari gusoma ikigaragara buri wese afite icyapa kigaragaza amazina ye ku buryo buri wese yamubona akamenya ngo nide buri wese yamumenya bigatuma umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe byamworohera.

Abantu bitabiriye inama, bari bafite ikintu kibereka ibintu biri kugerwaho, bafite amamashini, barafite mudasobwa ziri kubafasha, kureba ibyo ngibyo barimo mu mahugurwa, ajyanye no gufasha abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Icyapa kigaragaza uburyo bwo kwita ku buzima bw'abantu bwo mu mutwe kigaragaza umurongo utishyurwa wahamagara kugira ngo umenye abo bantu uburyo wita ku buzima bw'abantu bwo mu mutwe kikagaragaza imishinga bakorana nayo masitakadi fondesheni imbuto fondesheni ndetse n'ibindi bishinga bikorana nayo.

Abashinzwe ubutabazi ndetse no gutanga amaraso n'abandi bantu, batereye umuntubonaga afite ikibazo cyo mu mutwe, barajyanye akaba ari ubutabazi hakaba hari n'abandi bantu benshi bahaje, bahari.

Gushishikariza abantu ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, abantu baje, bari muri kwamamaza, bari kubyina, abandi bari kureba, abandi bambaye imyenda isa, ijyanye n'ibyo kwamamariza uburwayi, abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, bubatse n'itente.

Umubyeyi ari gutanga imbabwirwaruhame ku bijyanye n'uko babaho neza bita ku buzima bujyanye n'ibyo mu mutwe, hakaba hari abantu bamukurikiye, bari kumureba ibyo ari kuvuga, hari icyapa kibigaragaza.

Iduka ry'imititi, imiti igiye itandukanye ivura abantu, iy'amazi, ibinini, inshinge ndetse n'ibindi bivura abantu, ihuriro ry'imiti rero y'abantu ndetse n'iy'abana.

Umugabo uri kwandika, ari mu miti, ari mu nzu y'ubucuruzi bw'imiti, ari kumwe n'undi mugore, harimo ibikoresho, harimo imiti n'ibindi bintu byinshi bigaragaza ko ari inzu y'ubucuruzi bw'imiti.

Ubucuruzi bw'imiti. Imiti y'abantu itandukanye. Inzu rero irimo iyo miti, akaba ari iduka ry'imiti.

Imeza iteretseho imiti igiye itandukanye, ibinini bigiye bitandukanye, kashi umuntu umajije kuguhereza imiti ateraho ku bipapuro aba yakwandikiye, imiti igiye itandukanye, imiti iri mu bikombe, imiti iri mu bikarito, iy'amazi ndetse n'iyindi miti igiye itandukanye, ubwo ni inzu cyangwa iduka ribamo imiti y'abantu.

Iduka ry'imiti ricuruza imiti, imiti y'abantu igiye itandukanye, imiti y'amazi, imiti y'uruhu, imiti igiye itandukanye, yafasha abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ubucuruzi bw'imiti y'abantu myinshi cyane, itandukanye akaba ari iduka ribicuruza ririmo ibintu byinshi cyane by'imiti bitiye umutwe ndetse n'indi ikitandukanyeivura abantu.

Icyapa kigaragaza farumasi, kigaragaza imikorere ya farumasi, aho ikorera n'ibyo ikora n'umuryango ukoreramo mu mugi runaka ahantu ku buryo umuntu wese wabibona yahita amenya ngo iyi ni farumasi yitwa gutya ikorera aha.

Imiti y'amatungo agiye atandukanye.

Icyakapa kigaragaza ubuvuzi cyangwa inzu zicururizamo imiti y' abantu, ahantu bacururiza imiti, bakagaragaza uko bakora, uko bitwa, aho bakorera ndetse n'umuryango bakoreramo hakaba hari urukarabiro imbere y'umuryango.

Kwamamaza muri rusange. Abantu bakaza bakamamariza ibintu runaka, bakaza bagashishikariza abantu gukora ikintu runaka mu igihe bashaka ko hari icyo bageraho, bakabyamamaza nko kwamamariza ngo bakoreshe neza, umunsi mpuzamahanga wahariwe gukoresha agakingirizo.

Kwamamaza hari abantu benshi ibyamamare bifite mikoro umusore ufite derede ahagaze hejuru Aho abantu bose bamureba bagenda bamamaza barigushaka kumukoraho ashaka kumva ibyo avuga afite mikoro n'undi mukobwa n'abandi bahagaze hejuru ko bose babareba.

Umubare w'urubyiruko rwinshi, rwateraniye ahantu baje kwamamariza MTN n'ibindi bikorwa byahabaye, ari ukwamamaza, hari abahanzi bagiye batandukanye ndetse n'abandi bantu baje, urubyiruko, abantu bakuru, abayobozi b'uturere ndetse n'abandi bayobozi, baje muri mu buryo bwo kwamamaza.

Abantu benshi bafite ibyapa byo gushishikariza abantu gukoresha agakingirizo, abantu b'ikigo gishinzwe ubuzima, abayobozi bashinzwe umutekano ndetse n'abasirikare baje ku byamamaza babiganiriza abantu ndetse bari kugenda baganiriza abaturage bagiye batandukanye.

Kampeni zo kwamamaza abantu muri rusange, bagashishikariza abantu gukora ibintu, umuganda, bakishima urubyiruko bakaza bakihuza bagakora ibikorwa runaka.

Umukobwa ndetse n'abahungu babiri bari ahantu bambaye imyenda isa bari ahantu hari itente, Hari n'abandi bantu bari kumwe baje kwamamaza, kwamamariza igikorwa runaka bose bambaye kimwe nk'abantu baje kwamamariza igikorwa runaka hari n'abandi bari mu myiteguro imbere yabo.

Gushishikariza abantu ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ari inama ihuza abantu bakabiganiraho bakabibashishikariza, bakabitangaza, abantu bose bakabimenya kugira ngo barusheho gushyiraho imirongo.

Kwamamaza ibintu bijyanye no kwamamaza, abantu bose baje, abantu benshi, hari aho bahagarara hejuru abaje kwamamaza, abari kubyina, abaturage baje kureba, harimo n'abari kwigendera bikore imyaka, hafi y'agasantere.

Imiti ya gakondo ipakiye mu mifuka, iyindi iri mu macupa, indi iri mu bitebo ni imiti iba yavuye mu byatsi. Ni imikorano ya gakondo ivura abantu kugira ngo bakire.

Ibyatsi bya gakondo bishoboye no kuvura abantu inzoka, imibirizi. Biratwereka umubirizi, muyenzi n'umuravumba, ibyatsi bivura bya kinyarwanda.

Gushaka imiti ya gakondo yo kuvura abantu ya gakondo y'ibyatsi ivura inzoka, ivura imitwe, ivura n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, bakagenda bayishaka mu bihuru, mu bishyamba n'ahandi.

Igiti cy'umuravumba kiri ahantu, umuravumba ni igiti gishoboye kuvura, kivura inzoka, kivura n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Ikoreshwa nk'umuti wa gakondo.

Icyatsi cya nyirabarasanya cy'icyatsi, cyarabye ururabo rw'umweru, ikindi ntikiraraba, gikunze no kuzana ibishokoro. Kikaba kiri ahantu mu byatsi.

Icupa rigaragara ko ririmo umuti wa gakondo, imiti yo kuvura ya gakondo yitwa umuravumba rigaragaza ibiwugize, ibiwurimo akaba ari icupa ripfundikiye neza rigaragaza ko ririmo uwo muti w'umuravumba n'icyapa cyawo.

Uburyo bwa gakondo bwo kuvura umuntu, ushoboye kumukanda mu gihe yavunitse, bakamufasha kwivura imvune, bakamufasha kwivura ubundi burwayi arwaye bw'umubiri bakoresheje intoki z'umuntu, bakamukanda bamusiga nk'amavuta, bamusiga imiti bakuye ahandi.

Umubyeyi waje kwa muganga, akaba ageze mu isuzumiro, muganga akaba afite icyuma gipima umuvuduko w'amaraso, akaba agiye kumufasha kumupima, aho asuzumira afite ibitabo, amakayeyi agomba kwandikamo ibisubizo aba yabonye.

Icyapa kiri ku muhanda kiragaragaza ikigo nderabuzima, aho cyerekeye gishoboye kuyobora abantu berekeza ku Kigo nderabuzima cya Nyagatare, kigaragaza uko gikora, kikagaragaza aho gikorera, uko gikorana, ubwishingizi bukorana na byo.

umubyeyi uri ku gitanda cyo kwa muganga, igitanda gifite na supanete, ari kumwe na marete ziwe, ibikapu bye, bigaragara ko agi , aje aho ngaho aje kuharwarira cyangwa agiye gutaha hakaba harimo n'ibindi bitanda byinshi byo kwa muganga.

Ivuriro abaturage bagana amavuriro batanga ibyangombwa byabo kugira ngo babavure, aho batanga amarangamuntu bagatanga ibipande by'abana, kugira ngo bite ku muryango kugira ngo bite ku buzima bwabo bivuze bagana amavuriro ndetse amavuriro ya leta ndetse n'aya pirive.

Umuti w'amatungo uri mu gikarito, ugaragaza ko ari umuti w'iyika, ukagaragaza amabwiriza ukagaragaza miri lita zayo ndetse ukanagaragaza ko ukoreshwa n'abavuzi bamatungo bonyine cyangwa ukoreshwa ku matungo yonyine.

Abantu benshi bicaye imbere y'umuryango kwa muganga, bategereje ko babafasha bakabasuzuma bakamenya ibyo abarwaye, bicaye ku ntebe bategereje abaganga ngo babasuzume.

Amavuriro y'ibanze, aya Leta ndetse n'ayikorera afasha abaturage kugira ngo bagere ku buvuzi hafi, ubuvuzi bu bagere hafi.

Ubwoko bw'imiti buboneka muri mu mavuriro, yigenga ndetse n'aya Leta ashoboye gufasha abana agafasha n'abantu bakuru, ni imiti bakoresha mu mavuriro yose.

Abagore benshi baje ku kigo nderabuzima cyangwa ku ivuriro, gukingiza abana babo, bagiye bafite abana bagiye batandukanye.

Icyapa cyerekana ahantu hagurishirizwa imiti y'amatungo, bakagaragaza ibyo bakora, bagaragaza imibare yabo ibafasha kwishyura imisoro, bakagaragaza telefoni babahamagariraho mu gihe ubakeneye ndetse n'ibyo bakoresha.

Abayobozi bari ku nyubako y'ivuriro, ivuriro ritoya rivura abantu, bavura, hakaba hari ibyapa bigaragaza abavuzi ndetse n'uko bavura by'iryo vuriro, bikagaragaza ndetse n'abayobozi cyangwa se abaganga bari kuhava, hari intebe imbere yaho ndetse n'ibindi.

Aho basuzumira abarwayi kwa muganga, muganga yahuye n'umurwayi, arimo aramusuzuma, amubaza uko ameze, n'uko aho abara ubundi akamusuzuma akabyandika kugira ngo bize kumufasha mu buryo bwo kumuvura.